Ishyamba rigizwe n'uduti duto cyane, rimwe nyine bakunda kuragiramo amatungo; ridafite ibiti binini cyane. Uduti dutoya cyane akenshi baba barateye mu rwego rwo kurwanya isuri.

Abamama bari mu murima bari gusarura cangwa bimwe bita mu kinyarwanda gusoroma indabo z'ibihingwa bita ibirete ,bikoreshwa bakora imiti bikunda guhingwa mu turere nka za Rubavu ,za Nyabihu ,bimwe byifashishwa bakora imiti ,akaba ari abamama babiri bari gusarura.

Igihingwa kimwe, igihingwa kimeze nk'umwu... kigaragara nk'umwumbati cyangwa isombe, bimwe bikunda kwera mu turere tw'uburasirazuba nka za Nyagatare, hirya iyongiyo, usibye ko n'i Huye byerayo, kimeze nk'imyumbati cyangwa isombe.

Aha imyumbati bigaragara nk'aho iri mu mufuka, imyumbati iri mu mufuka bigaragara nk'aho ari mu isoko bari gucuruza, kuko ndabona inyuma hari ibintu by'ibikombe, n'umuntu usa nk'aho abyicaye inyuma. Amasahani, ibigaragara ni umuntu uri gucuruza mu isoko.

Urubuto rwitwa avoka ruri ku meza, bakasemo kabiri. Rwiteguye kuribwa. Avoka zikunda kwera mu busirazuba bw'u Rwanda. Zikaba zaciwe zikaba ziteguye kuribwa nyine ku ifunguro.

Ubwoko bw'inyoni bwitwa inuma buba butuje cyane bukunda kwibera ahantu nyine hatuje, akenshi zikunda kubana n'abantu. Ikaba iri ahantu mu byatsi by'icyatsi isa nk'aho nyine.

Inyoni y'inyeshyamba, akenshi ziba zitunzwe no kurya inyama. Inyama zitunzwe n'udusimba twitwa udukoko，zikunda kurya ibitatangurirwa, na tumwe twita iminyorogoto tuba mu butaka, cyangwa tumwe bita amasenene dukunda kwibera mu byatsi. Ihagaze n'ubundi mu byatsi hamwe ibona ibyo kurya nk'amasenene.